Abana batoya bishimye bambaye utugofero, imipira n'amakabutura, bahagaze imbere y'inzu, bari kuyisiga irange ry'umweru.

Abana bari ku myicundo isize irangi ry'icyatsi, iroza n'ubururu. Inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye ikote. Hari icyapa ku ruzitiro ndetse inyuma yabyo hari ibiti.

Ikigo k'ishuri ry'inshuke kinini cyane gifite imiryango ifunguye ndetse hashushanyijeho ibishushanyo by'amoko atandukanye, gisakaje amabati y'umutuku, inyuma hari igiti.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, amadirishya y'ibirahure n'urugi rusize irangi ry'umukara ashushanyijeho igitoki ndetse n'imimero y'ibishyimbo.

Ibishushanyo by'abana bicaye hamwe, umwe ateruye mudasobwa, undi ari gusoma igitabo, undi ari gukoresha telefone bari hamwe bose.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru, isakaje amabati, mo imbere harimo umuntu uhagaze n'intebe, imiryango n'amadirishya birafunguye.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, kirimo ameza ateretseho amakaye menshi, n'andi ariho ibikapu n'amakaramu, n'intebe z'umweru, ku bikuta hometseho impapuro zishushanyijeho.

Umwana uri gusomera abantu igitabo, kirimo n'ibishushanyo. Imbere ye baricaye n'undi uhagaze wambaye ikanzu y'igitenge.

Umuhanda w'igitaka iruhande hari ikigega gisa umukara gifata amazi ndetse n'inyubako ziri ku murongo zubakishije amabati zifite amadirishya n'inzugi bifunze ndetse ku ruhande hari igiti.

Inzu isize irangi ry'umweru, isakaje n'amabati, impande yaho hari akayira k'igitaka ndetse hari n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana ku ishuri, hari udukombe duteretsemo utuntu twanditsemo imibare, agakarito byose birambitse ku meza.

Ishuri risize irange ry'umweru, mo imbere hari ikibaho, ameza ateretseho mudasobwa nyinshi, umwarimu wambaye itaburiya y'umweru uri kuyikoresha ndetse n'undi muntu uri inyuma ye.

Umugore w'umupolisi wambaye agapfukamunwa ahagararanye n'abandi bantu bagiye gufungura ikigo cy'ishuri, ndetse n'umunyeshuri ku ruhande amashuri yubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda urimo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa ndetse n'abandi bantu bari gutambuka, hari uruzitiro rw'imiyenzi ndetse n'ibiti byinshi, imbere hari amashuri ndetse n'imodoka zihaparitse.

Inzu igerekeranye yubakishije amatafarihiye, imbere yayo hahagaze abagabo babiri n'abagore bambaye udupfukamunwa ndetse n'umusirikare.

Inyubako z'ibyumba by'amashuri biri ku murongo, zubakishije amatafari ahiye amadirishya n'inzugi ni icyatsi, isakaje amabati hagati hateyemo indabo ndetse hari n'igiti kinini cyane.

Umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ari kwigisha ku kibaho ndetse imbere ye hari ameza ariho igitabo, iruhande urugi rufunguye.

Ibyumba by'amashuri byubatse ku murongo, byubakishije amatafari ahiye, irangi ni umuhondo, inzugi n'amadirishya ndetse n'amabati bisa ubururu. Impande hari igiti.

Icyumba kirimo intebe n'ameza ndetse n'ibikinisho by'abana, imodoka, inzu biri mu marange atandukanye ndetse n'imitako imanitsemo.

Inzu isakaje amabati y'umutuku ifite urubaraza, urugi rusa ubururu n'amadirishya abiri impande hari ibyatsi ndetse.

Abantu benshi bicaye munsi y'igiti mu byatsi, imbere hari umugore ufite ikayi, mu kwaha wambaye isengegeri akenyeye n'igitenge, impande yabo bafite amasuka ndetse hakikijwe n'ishyamba.

Imyicungo y'abana isize irange ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, inyuma hari inzu zubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje n'amabati.

Ibitabo bibiri, kimwe kirafunze ikindi kirafunguye, gishushanyijeho abana benshishi ndetse cyanditseho n'amagambo y'umukara.

Abagabo babiri n'abagore bahagaze mu cyumba kirimo intebe n'ameza, isize irangi ry'umweru idirishya rirafunguye hateretsemo agakombe.

Abantu benshi higanjemo igitsina gabo bari kumurongo, iruhande hari indabyo ndetse n'amashuri yubatse asize irangi ry'umuhondo asakaje amabati amadirishya ninzugi ni ubururu.

Umusaza wambaye amadarubindi afite n'agakoni mu ntoki aricaye, ari kuganiriza abana be bicaye ku musambi, impande hari umugore we afite inkoko ari gutoranyirizaho ibintu.

Inzu irimo ibishushanyo by'ubwoko butandukanye, intebe n'ameza bisize irangi ry'icyatsi, ubururu, n'umuhondo.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati asa ubururu, impande yaho hari umurima uhinzemo ibigori n'insina ndetse n'igiti cya avoka.

Icyumba kimanitsemo imitako ndetse mo imbere harimo ibikinisho, bitandukanye by'abana bifashisha mu kwiga, biri mu mabara, icyatsi, umuhondo, umutuku n'ubururu.

Abanyeshuri b'abana bato bambaye impuzankano zisa bari hanze y'ishuri ryabo ryubakishije amatafari ahiye, bisakaje amabati bari gukina ikigo kizitije imiyenzi, inyuma hari ibiti.

Igitabo gishushanyijeho isake n'igikeri, imbere yabo hari igitebo kirimo ibintu, hejuru handitse n'amagambo y'umukara.

Abanyeshuri benshi bari mu nzu mberabyombi bambaye amajipo y'icyatsi, imipira y'icyatsi kijimye n'amashati y'umweru, amasogisi n'inkweto z'umukara.

Ikigo k'ishuri gifungishije urugi rw'ibyuma bisize irange ry'umukara byanditseho mu irange ry'ubururu ku rugi, mu imbere hari agahanda n'ubusitani bw'indabyo ndetse n'ibiti.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, batebeje n'amapantaro ya kaki. Bari muri laboratwari, ku meza ateretseho ibikoresho bifashisha.

Inzu zikiri kubakwa zitaruzura zisakaje amabati, imbere yazo hateretse intebe z'abanyeshuri bicaraho ndetse hahagaze n'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa.

Akazu kubakishije amatafari ahiye gasakaje amabati, impande hari ikigega gisa umukara gifata amazi n'abantu bahagaze iruhande bambaye amajire asa icyatsi akikijwe n'ibiti.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, ari kwigisha imbere ye hari ikibaho, inyuma hari abanyeshuri bambaye udupfukamunwa, ku meza hateretse mudasobwa, bafite amakaye n'amakaramu, bari kwandika.

Umunyeshuri uhagaze imbere y'abandi bicaye ku ntebe. Afite indangururamajwi ari kugira ikintu ababwira. Bicaye munsi y'ibiti, inyuma hari amashuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, amashati y'umweru na karuvati, inkweto z'umukara n'amasigisi ndetse n'amajipo, bahagaze ku mirongo n'abandi bicaye imbere yabo.

Abanyeshuri imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, bari kwiga ndetse n'umwarimu wabo ahagaze imbere ari kubigisha yambaye itaburiya y'umweru, ishuri risize irange rimanitsemo n'amarido.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zirimo amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki, imipira y'imbeho y'icyatsi inkweto z'umukara n'amasogisi, imbere yabo hicaye abarezi ndetse n'abayobozi bari kubaganiriza.

Abagabo bambaye amajire y'icyatsi n'ingofero bari gusobanurira abakoresha babo uko ibyo bubatse bimeze bari mu ishuri ryubakishije amatafari ahiye amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'ubururu.

Umunyeshuri wambaye impuzankano, ishati y'umweru, karuvati n'ijipo y'ubururu, ari gutambuka, impande hari indabyo ndetse n'ibiti birebire.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, bamwe basutamye abandi bahagaze, impande umurezi wabo. Inyuma hari amashuri yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati ndetse n'ibiti.

Abana b'abanyeshuri bahagaze ku murongo bambaye impuzankano zisa, amashati y'umweru n'amajipo asa ubururu .Inyuma yabo hari amashuri yubakishije amatafari ahiye.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye, risakaje amabati. Ku gikuta hometseho icyapa kinini kigaragaza ko ari ishuri mu irangi ry'umweru hashushanyijeho ikirango n'ibendera ry'igihugu.

Abantu benshi bahagaze mo imbere mu nzu, bamwe bambaye amajire y'icyatsi. Bari mu nyubako, ifite amadirishya y'ibirahure afunguye.

Abana bambaye amakanzu y'ubururu n'ingofero basoje kwiga materineri ndetse inyuma hari ababyeyi n'abarezi babo bahagaze imbere y'inzu yubakishije amabati.

Abanyeshuri bambaye imipira y'umweru ndetse n'abarezi babo bambaye isa ubururu, imbere bafite ibihembo by'ishimwe, bamwe bicaye ku byatsi, undi ku gatebe, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inyubako.

Abanyeshuri bicaye hamwe bambaye impuzankano zisa ku ntebe z'ibiti ndetse n'abaturage bambaye imipira isa umutuku yanditseho n'amagambo y'umweru bicaye munsi y'ibiti.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa amashati y'umweru n'amapantaro y'ubururu bwijimye bicaye y'uburiro, imbere yabo hari ameza ariho amasahane y'ubururu bari kurya.

Abakozi bashinzwe ubwubatsi bambaye amajire asa icyatsi n'ingofero bari mu cyumba kinini umuryango usize irange ry'ubururu urafunguye, hari n'umugabo ufite ikaye n'impapuro mu ntoki.

Abanyeshuri basoje kwiga, bambaye amakanzu y'umukara, banaze ingofero zabo mu kirere, inyuma hari amahema ndetse nibiti.

Icyumba gishashemo amakaro kiriho intebe y'icyatsi n'ameza, igikuta gisize irange ry'ubururu ndetse hari...

Ubusitani bw'indabo hateretsemo, ikigega cy'umukara gifata amazi ku cyuma impande hari inyubako, isize irangi ry'umweru, hari umuntu uri gutambuka ndetse hari ibiti.

Abayobozi harimo n'umuzungu wambaye ikote bari gutambuka mu kayira, impande hari ubusitani bw'indabyo ziconze, inyuma yabo hari inyubako.

Umugabo n'umugore bahagaze bambaye amadarubindi, amakanzu asa umukara n'ingofero. Ari guhereza igihembo cy'ishimwe, inyuma hari ibitambaro biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo n'ubururu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri risize irangi ry'umweru, bicaye ku ntebe zisa ubururu, bafite amakayi, bari kuganira ndetse n'ibikapu.

Umuhungu uhagaze mu nzu irimo imitako itandukanye, yometse ku gikuta ndetse n'amadirishya arafunze, hanze hari ibiti n'imirima.

Umuhanda ushasheho amatafari harimo umugenzi uri gutambuka ufite igitabo mu ntoki, imbere ye hari umurinzi uri gusaka abinjira muri icyo kigo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye udupfukamunwa, bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika, hari n'abandi bahagaze hejuru impande yabo hari igikapu ndetse ishuri rifite amadirishya menshi.

Ubusitani bunini bw'indabo ndetse n'ibiti, impande hari inzu igeretse isize irange ry'umweru ifite amadirishya menshi n'inzugi.

Ubusitani bw'indabo ziri ku ku murongo, impande hari ibyuma bishinze bisize irangi ry'umutuku ndetse n'ibiti, inyuma inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri benshi bicaye mu ishuri bose bambaye udupfukamunwa, bari gukora ibizamini bafite kumeza yabo impapuro n'amakayi n'amakaramu bari kwandika.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe imbere yabo hateretse mudasobwa bari kwiga, mu ishuri rinini risize irangi ry'umweru n'umuhondo rifite amadirishya menshi n'urugi.

Icyumba kirimo intebe z'ubururu, ameza arambitseho agacupa n'abantu bari kureba muri telefone n'abandi bari hanze.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere y'inyubako igeretse, isize irange ry'umweru, ifite amadirishya menshi.

Icyumba kirimo intebe zisa ubururu gisize irangi ry'umuhondo, kirimo amakaro ndetse n'umuryango ufunguye, usize irangigi ry'icyatsi.

Indobo ishyirwamo imyanda isa icyatsi, iteretse impanda y'inzu isize irange ry'umweru. Iruhande hari agahanda k'amapave.